Banki apu, ni uburyo bw'ikoranabuhanga, uhuza terefone yawe na banki yawe isanzwe, ukajya ubasha kubona serivisi za banki mu buryo bworoshye kandi bugezweho mu gihe kitagoranye.

Akagera motozi barakugezaho imodoka z'ubwoko bugiye butandukanye ku giciro cy'ubushobozi bwawe kandi bakayikugezaho mu gihe gitoya cyane.

Banki uburyo bwiza ukoresha ubitsa wohereza ubikuza ndetse unizigama amafaranga, mu buryo bwizewe buri wese akoresha mu buryo bwo gucunga amafaranga ye, umutekano mwiza kandi wuzuye igihe cyose.

Ivunjisha ry'amafaranga ni uburyo bwo guhinduranya amafaranga y'ubwoko, bumwe bakaguha ay'ubundi bwoko bitewe n'ayo wari ukeneye.

Ivunja ry'amafaranga ni uburyo umuntu akoresha ahindura amafaranga y'ubwoko bumwe mu bundi bwoko bw'amafaranga, aho utanga amafaranga ufite bakaguha amafaranga y'ikindi gihugu ukeneye.

Ivunjisha ry'amafaranga, akaba ari uburyo bwo guhinduranya amafaranga umuntu yifashisha, atanga amafaranga y'igihugu kimwe, bakamuha amafaranga y'ikindi gihugu akeneye.

Ivunja ry'amafaranga, ni uburyo umuntu akoresha aherekeranya amafaranga y'igihugu kimwe, ashaka amafaranga y'ikindi gihugu adafite.

Amaduka ndetse n'amasoko ni ahantu hahurira abantu benshi buri wese yaje gushaka ibyo akeneye adafite harimo nk'imyambaro ndetse n'ibiribwa.

Amasoko ni ahantu abacuruzi bahurira ari benshi, bacuruje ibicuruzwa bi bigiye bitandukanye, abaguzi bakaza guhitamo ibicuruzwa bagiye badafite.

Amasoko n'amaduka ni ahantu hahurira abantu benshi baje gushaka ibikoresho nkenerwa mu buzima bwa buri munsi, harimo ibikoresho by'isuku, ibikoresho byo mu nzu, ndetse n'ibiribwa bigiye bitandukanye.

Amaduka hamwe mu hantu abantu bahurira ari benshi baje gushaka ibicuruzwa by'ubwoko bugiye butandukanye, aho bahurira n'abagurisha bakabaha ibyo bifuza.

Amasoko n'ahantu abantu bahurira baje gushaka ibintu bigiye bitandukanye mu bicuruzwa harimo ibyo kurya imyambaro ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye.

Amasoko n'amaduka ni ahantu abantu bahurira mu buzima bwa buri munsi buri wese yaje guhaha, ibikoresho nkenerwa mu buzima bwa buri munsi harimo ibiribwa, ibinyobwa ndetse n'imyambaro.

Mikoro uburyo bwo guhahira ku mbuga nkoranyambaga hifashishijwe uburyo bwa telefone ngendanwa, bukaba ari uburyo umuntu akoresha mu gihe ashaka guhaha ikintu kikamugeraho ahari ariko we atavuye.

Amazu akodeshwa mu mujyi wa kigali kibagabaga akaba afitemo ibyumba bitanu, ubwogero butanu biri ku giciro cy'amadolari igihumbi na magana arindwi.